Ni umuturage w'umuhinzi akaba yambaye imyenda yabugenewe, akaba ahetse ipombo ryifashishwa mu gukingira imyaka, akaba arimo gushigira igihingwa. Ibi bikaba bimufasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni abaturage bakaba bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru. Imbere yabo hakaba hari ameza ariho amacupa harimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi. Ibi bikababafasha mu kugira umusaruro utubutse kandi ubafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Guhinga igihingwa kimwe ku buso bunini ndetse no kubikingira binyuze mu kubitera imiti y'ubwoko igihe itandukanye bifasha abahinzi kubona umusaruro uhagije ubafasha mu kwiteza imbere.

Ni umuturage akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu buhinzi. Akaba ahetse ipombo ryifashishwa mu buhinzi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira umusaruro uhagije binyuze mu kurinda no gukingira indwara zifata ibihingwa.

Ni icyumba kikaba kirimo amacupa ari mu ibara ry'umweru, aya macupa akaba arimo imiti yifashishwa mu buhinzi. Ibi bikaba bifasha abahinzi n'aborozi mu kugira umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi n'ubworozi.

Korora amafi mu buryo bwa kijyambere bitanga umusaruro uhagije ukomoka ku mafi. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyuzi kikaba kirimo amafi y'ubwoko bugiye butandukanye, ibi bikaba byifashishwa n'abaturage mu korora no kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi ubafasha mu kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya

Ni abaturage bakaba bafashe ibikoresho byifashishwa n'abarobyi mu kuroba no korora amafi. Ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi ubafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cyo kuroba amafi mu byuzi, ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi, bakaba bakuramo amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Ni abaturage, bakaba bahagaze iruhande rw'ibyuzi byifashishwa n'aborozi mukorora amafi. Iruhande rwabo hakaba hari amasambu arimo ibimera bimeze, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni idamu rikaba rikikijwe n'ibimera bigiye bitandukanye birimo ibisheke n'ibindi, bikaba byifashishwa mu gutanga umusaruro ukomoka ku mafi, ukaba ufasha abaturage mu kubona intungamubiri zigiye zitandukanye zibafasha mu gukura.

Ni abaturage bambaye imyenda iri mu mabara asa n'umutuku, bakaba bahagaze mu gihingwa ngengabukungu k'ikawa, bakaba bayifashe mu ntoki. Ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri musi.

Ni igihingwa ngengabukungu cy'ikawa kikaba gifite imbuto zitoshye, ibi bikaba byifashishwa n'abaturage mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi binyuze mu gucuruza umusaruro ukomoka ku buhinzi burimo ikawa.

Ni umuturage akaba afashe imbuto zikomoka ku gihingwa ngengabukungu k'ikawa, ibi bikaba bimufasha mu kubona amafaranga amufasha mu kwiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni amakarito n'amacupa akaba afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni icyumba kikaba kirimo amakarito afunzemo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye. Ikaba yifashishwa n'aborozi mu kuvura no gukingira amatungo. Ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni icyumba, kikaba kirimo amakarito ari mu mabara atandukanye, hakaba harimo amacupa ibi bikaba bifunzemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira amatungo ameze neza.

Ni icyumba kikaba kirimo amakarito afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni icyumba kikaba kirimo amacupa arimo imiti igiye itandukanye, iyi miti ikaba yifashishwa n'abavuzi mu kuvura indwara zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira amatungo atanga umusaruro.

Ni icyumba kikaba kirimo utudobo n'utujerekani dufunzemo imiti yifashishwa n'aborozi mu kuvura no gukingira indwara zifata amatungo, ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni icyumba kikaba kirimo amacupa ari mu mabara atandukanye harimo icyatsi n'umuhondo n'umweru. Aya macupa akaba afunzemo imiti yifashishwa n'ubworozi mu kuvura no guhindura indwara zifite amatungo. Ibi bikaba bifasha umworozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni amakarito, akaba ari mu mabara atandukanye harimo umweru, umuhondo, ubururu ndetse n'indi. Aya makarito akaba afunzwemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amatunda, ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni abahinzi bakaba bari mu gikorwa cyo gutera ibiti bigiye bitandukanye. Ibi biti bikaba bibafasha mu kubona imbuto zo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage, bakaba bahagaze iruhande rw'urubuto rw'igipapa gihezwe mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bibafasha mu kubona imbuto zo kurya ndetse bakuramo amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni isambu ikaba irimo amatungo maremare arimo inka, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo ndetse ifumbire ibafasha mu buhinzi bubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugore urimo kwerekana uburyo bwo gutera ibiti akaba yambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi n'umukara, iruhande rwawe hakaba hari abaturage bafashe ibikoresho birimo amasuka. Ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni abaturage b'abahinzi, bakaba barimo gukorera imyaka iteyeye mu isambu iri ku musozi. Ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi ndetse n'amafaranga abafasha mu kuba mu buzima bwabo bwa burimunsi.

Ni umugabo akaba ari mu mirima yabugenewe yifashishwa mu gutubura imbuto ku buryo bwa kijyambere, akaba afashe igiti cya avoka. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbuto zimeze neza zihanganira uburwayi.

Ni umuturage akaba arimo gusunika igare ririho imyaka, iyi myaka ikaba imufasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga amufasha mu kubaho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni umurima. Ukaba uhinzemo ibigori ku buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku buhinzi. Ibi bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Ni igihingwa gihinzwe mu murima ku buso bunini, hakaba haciyemo ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, ibi bihingwa bikaba byifashishwa n'abaturage mu kubikuramo ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ibindi bibafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kurya imbuto zigiye zitandukanye zirimo ibipapayi, avoka, indimu ndetse n'izindi, bikaba bifasha mu kurinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mirire mibi.

Ni imboga n'imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye, hakaba hari iziri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya bifite intungamubiri zihagije zibafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Guhinga igihingwa kimwe k'ubuso bunini, bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi kuko baba babikoze mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro utubutse.

Guhinga igihingwa kimwe ku buso bunini mu buryo bwa kijyambere bifasha abahinzi kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, ibi bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ibiti by'imbuto bitoshe bikaba birimo imbuto zifashishwa n'abantu mu kuzirya, kuzicuruza, kuzikoramo imiti igize itandukanye. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kurya imbuto.

Ni mu biti by'imyumbati bikaba bitewe mu murira, ibi biti bikaba bitanga umusaruro wifashishwa n'abaturage mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Guhinga kijyambere ibihingwa by'ubwoko bumwe ku buso bunini, bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, bikaba bibafasha mu kwiteza imbere ndetse no kubona ibyo kurya byabo bya buri munsi.

nNi ibihingwa by'ubwoko bugiye butandukanye, hakaba harimo karuhuti, ibitoki, pavuro, inyanya ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umurima ukaba uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, birimo imyumbati ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga bifasha mu kubaho ubuzima bwabo buri munsi.

Ni ibimera by'ubwoko butandukanye, birimo imyumbati, ibitoki ndetse n'ibindi, ibi bikaba byifashishwa n'abaturage mu kubikuramo ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho umunsi ku' munsi.

Ni imirima ikaba iteyemo ibihingwa ku buso bugari ibi bihingwa bikaba bihinze mu buryo bwa kijyambere bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije uvamo ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu gukemura ibibazo byabo bya buri munsi.

Ni igihingwa, kikaba gihinze mu murima uhinzemo ibindi bihingwa birimo imboga. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni igihingwa cy'iBigori byumye bikaba biteye mu murima mIGARI. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya, amafaranga abafasha mu kubaho ubuzima bwa buri munsi ndetse n'izindi mbuto zo gutera.

Ni ibiti by'imbuto, bikaba bihinze mu murima ku buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku biti by'imbuto, bikaba bibafasha mu kubona imbuto zo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ishyamba ry'inzitane, rikaba rigizwe n'ibimera bigiye bitandukanye, birimo ibiti by'inganzamarumbo, ibi bikaba byifashishwa n'inyamaswa mu kubona ibyo kurya, aho ziba ndetse amashamba akurura n'imvura.

Ni amashamba ya kimeza akaba agizwe n'ibiti n'ibyatsi bigiye bitandukanye, aya mashyamba akaba yifashishwa n'inyamaswa mu kubona ibyo kurya, ndetse agakurura n'imvura. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umwuka mwiza bahumeka, ndetse n'imvura ibafasha mu buhinzi bwabo bwa buri munsi.

Ni amashamba akaba arimo ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye, hakaba harimo umugezi mugari unyuramo, ibi bikaba bifasha mu kubona ibyo kurya by'amatungo ndetse n'inyamaswa.

Ni imisozi ihanamye ikaba iriho amashamba y'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye, iruhande rwaho hakaba hari amazu atuwemo n'abantu. Ibi biti bikaba byifashishwa mu kurinda ko isuri yatembana ubutaka.

Ni amashamba y'inzitane akaba agizwe n'ibimera bigiye bitandukanye, hakaba harimo aba mukerarugendo baje gusura ibinyabuzima bibamo, ingagi ndetse n'ibindi, ibi bikaba bikurura amadovize ku Gihugu.

Ni amashyamba ya kimeza, akaba agizwe n'ibiti ndetse ibyatsi bigiye bitandukanye, aya mashyamba akaba ari ubuturo bw'inyamaswa ndetse akurura imvura.

Ni amashamba ya kimeza akaba agizwe n'ibiti n'ibyatsi by'ubwoko bugiye butandukanye aya mashyamba akaba yifashishwa mu gukurura imvura gutanga ibyo kurya ku nyamaswa ndetse ni ubuturo bw'inyamaswa.

Ni abaturage bakaba bafite umusaruro ukomoka ku buhinzi ibi bika bizabafasha mu kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukozwe mu buryo bwa kijyambere, bufasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi. Ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga n'ibyo kurya bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umuturage akaba ari mu mirima ihinzemo inyanya ku buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bimufasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku myanya, umufasha mu kubona amafaranga, amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni ikinyabiziga cy'imodoka kikaba gihagaze iruhande rw'ibiti by'imbuto bitoshe ibi biti bikaba bitanga imbuto zifashishwa n'abaturage mu kuzirya kuzicuruza ndetse n'ibindi ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kurya imbuto.

Guhinga ubwoko butandukanye bw'imboga bitanga umusaruro uhagije, bikaba bifasha abahinzi mu kubona amafunguro, amafaranga ndetse n'ibindi bibafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ibiti by'imbuto biteye ku murongo mu buryo bwa kijyambere, hakaba harimo imbuto ziri mu mabara atandukanye, ibi bikaba byifashishwa n'abaturage mu kubona umusaruro ubafasha mu kubona amafaranga, abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umurima ukaba uhinzemo ibihingwa ku buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi ubafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umuturage hakaba hari mu gikorwa cyo kuhira imyaka itandukanye, irimo amashu, ibigori ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni umuturage akaba afashe ibikoresho byifashishwa n'abahinzi mu kuhira imyaka igihe izuba ryabaye ryinshi, akaba ahagaze mu murima uhinzemo imboga z'amashu, akaba ari mu gikorwa cyo kuhira, ibi bikaba bimufasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Kuhira ibihingwa bitandukanye birimo imboga n'imbuto bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga n'ibyo kurya bihagije.

Ni ikiyaga gifite amazi y'urubogobogo. Kikaba gikikijwe n'imisozi iriho ibimera bitoshye, n'amazi akaba yifashishwa n'abahinzi mu gihe cyo kuhira igihe izuba ryabaye ryinshi.

Kuhira imyaka irimo imboga, imbuto n'indi hakoreshejwe imashini zabugenewe, bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi. Ibi bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Ni umugezi urimo amazi y'urubogobogo, iruhande rwawo hakaba hari imirima irimo ibihingwa bitoshye, aya mazi akaba yifashishwa n'abaturage mu kuhira ibihingwa igihe izuba ryabaye ryinshi.

Kuhira ibihingwa bitandukanye birimo imboga n'ibindi bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, ibi bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni inyubako ikaba irimo imashini zifashishwa mu kuhira imyaka igihe izuba ryabaye ryinshi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Guhinga igihingwa kimwe ku buso bunini mu buryo bwa kijyambere, bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, bikaba bibafasha mu kubona amafaranga n'ibyo kurya bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amaterasite y'indinganire ateyeho ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye. Afasha mu kwirinda ko ubutaka buri ku misozi ihanamye bwatembanwa n'isuri. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije babikesha ubutaka.

Ni imisozi ihanamye, ikaba iciyeho amaterasi ateyemo imyaka igiye itandukanye irimo ibitoki ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha mu kwirinda ko ubutaka bwatembanwa n'isuri.

Ni imisozi ihanamye. Ikaba iciyeho amaterasi y'indinganire. Akaba ateyeho ibimera bigiye bitandukanye. Ibi bikaba bifasha mu kwirinda ko ubutaka bwatembanwa n'isuri.

Ni imisozi miremire ikaba iteyeho amashamba ndetse n'ibyatsi bya kimeza, ibi bikaba bifasha mu kwirinda ko isuri yatembana ubutaka ndetse bikurura imvura ndetse ni n'ibyatsi by'amatungo.

Ni imisozi miremire ihanamye, ikaba iciyeho amaterate y'indinganire. ikaba ateyemo imyaka. ibi bikaba bifasha mu kwirinda ko ubutaka bwatembanwa n'isuri.

Imisozi iciyeho amaterasi y'indinganire ihinzweho ibimera bitandukanye bishobora gufasha mu kwirinda isuri .

Ni inkoko zikaba ziri mu kiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matongo urimo amajyambere ndetse n'izindi.

Ni ikiraro cy'inkoko, kikaba cyubatse mu buryo bwa kijyambere, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kugaburira inkoko, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku nkoko, urimo amagi, inyama ndetse n'ifumbire.

Ni ibiraro byubatse mu buryo bwa kijyambere bikaba birimo amatungo agiye atandukanye arimo inka ndetse n'izindi, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo amata, ifumbire ndetse n'ibindi.

Ni ibiraro byubatswe mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba byifashishwa n'aborozi mu korora amatungo agiye atandukanye, bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku matungo.

Iyi ni inka. Ikaba iri mu biraro byubatse mu buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo, urugero ifumbire, amata ndetse n'ibindi.

Ni nka, ikaba iri mu kiraro cyubatse mu buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo ifumbire, amata ndetse n'ibindi.

Ni ubworozi bw'inkavu zikaba ziri mu biraro byubatswe mu buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha abarozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka kupobirimo ifumbire, inyama ndetse n'ibindi.

Korora inka mu buryo bwa kijyambere birimo kororera mu biraro bifasha aborozi mu kubona, umusaruro uhagije ukomoka ku bworozi urimo amata ifumbire ndetse n'ibindi.

Ni ikiraro cyubatse mu buryo bwa kijyambere kikaba kirimo inkoko zikiri ntoya, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa n'aborozi mu kugaburira izi nkoko, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku nkoko.

Ni ibiraro by'inkoko, bikaba byubatswe mu buryo bwa kijyambere, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuzigaburira, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku nkoko.

Ni ingurube. Ikaba iri mu kiraro cyubatse mu buryo bwa kijyambere. Hakaba harimo ibisharo biyifasha mu kubona aho iryama. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo arimo ingurube ndetse n'izindi.

Ni ibiraro by'inkoko bikaba byubatse mu buryo bwa kijyambere hakaba harimo imbabura irimo umuriro ufasha mu kubona ubushyuhe, ibi bikaba bifasha aborozi b'inkoko mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku bworozi bw'inkoko.

Ni inkoko. Zikaba ziri mu kiraro cyubatse mu buryo bwa kijyambere, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuzigaburira. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku nkoko.

Ni ibiraro by'inkoko byubatse mu buryo bwa kijyambere, haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanya byifashishwa n'aborozi b'inkoko mu gihe bagiye kuzigaburira, ibi bikaba bibafasha mu kugira umusaruro uhagije ukomoka ku nkoko.

Ni umuturage akaba afashe ibinyampeke bigiye bitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kubona imbuto yo gutera ibaha umusaruro uhagije.

Gufata neza umusaruro ukomoka ku buhinzi urimo ibinyampeke by'ubwoko butandukanye, bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abakozi bambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara y'umweru ingofero z'umuhondo bakaba bari mu cyumba kirimo imashini zifashishwa mu gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona inyungu iturutse mu byo baba bejeje.

Ni icyumba. kikaba kirimo imifuka ifatiyemo ibinyampeke bigiye bitandukanye. Hakaba harimo umugabo ufashe inkoni. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona imbuto bifashisha mu guhinga ndetse no kurya.

Ni umuturage akaba ari mu gikorwa cyo gutunganya umusaruro ukomoka ku bigori, ibi bikaba bimufasha mu kubona ibyo kurya ndetsetse n'amafaranga amufasha mu kubaho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zifata amatungo, akaba ahagaze mu biraro biri ahororerwa ku buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amatungo, bakaba bahagaze iruhande rw'ibiraro byubatse mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni abaganga. Bakaba bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo. Bakaba bahagaze mu biraro byibatse mu buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni umuganga w'amatongo, akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo, akaba ari mu biraro byubatse mu buryo bwa kijyambere birimo inka, akaba ari mu gikorwa cyo kuzivura.

Ubworozi bw'amatungo bukozwe mu buryo bwa kijyambere, bufasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo. Ibi bikaba bifasha mu kwirinda indwara zifata amatungo.

Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, birimo ibiguruka ndetse n'ibindi, bifasha mu kwirinda kuzimira kw'ibinyabuzima by'ubwoko bugiye butandukanye. Ibi bikaba bifasha igihugu mu gukurura abamukerarugendo.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziri mu bwoko bw'inzovu zikaba ziri kugenda mu kayira nyabagendwa, iruhande rwazo hakaba hari amashamba ya kimeza, azifasha mu kubona ibyo zirya aho ziba ndetse n'ibindi.

Ni inyamaswa yo mu ishyamba ikaba iri mu bwoko bw'ingwe, ikaba yasamye irimo kugaragaza amenyo manini. Ayamenyo akaba ayifasha mu guhiga, ibi bikaba biyifasha mu kubaho kwayo mu buzima bwayo bwa buri munsi.

Ni inyamaswa zigiye zitandukanye hakaba harimo imbogo, iruhande rwazo hakaba hari imodoka zitwara bamukerarugendo. Ibi bikaba bifasha mu kwinjiza amafaranga binyuze mu rubura ndetse no kubungabunga ibintu.